Agapapuro gatoya gateretse hasi kakaba gashushanyijeho utuyenyeri tubonerana, karasa n'ubururu kakaba kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo umunsi mwiza w'amavuko.

Ibipupe bibiri kimwe kigaragaza umuhungu, ikindi kikaba kigaragaza umukobwa, cyanyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, aho ari ibipupe bikoreshwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke.

Igikapu umwana ajyana mu ishuri, agitwaramo amakayi, akaba yakirambitse mu nzu hasi ku makaro, akaba ari igikapu, kiriho agapupe inyuma, aho abana bakareba bakiri bato, bakishima.

Ni abana umunani . Bicaye mu ntebe, akaba ari mu kigo cy'inshuke. Bakaba bari kureba ku kibaho, aho ku kibaho handitseho imibare mirongo ine ndetse na makumyabiri.

Ni ibikinisho bibiri byifashishwa n'abanyeshuri biga amashuri y'inshuke. Kimwe kirasa n'umweru, ikindi kiba ifite ibara rijya kuba umutuku ariko w'igitaka. Ku ruhande hari igikinisho k'imodoka ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amapine y'umutuku.

Akagare gatoya, akenshi kifashishwa bicajemo umwana ukiri mutoya, yaba agiye kwiga mu mashuri y'inshuke cyangwa se iyo atari yatangira kujya kwiga.

Ni agakapu gatoya gafite ibara ry'umuhondo hejuru ku mukondo, kakaba kariho n'igipupe. Agakapu nk'aka akenshi gakunze gukoreshwa n'abana bato biga mu mashuri y'inshuke, bagatwaramo amakayi n'amakaramu.

Agakinisho gakoreshejwe utuntu tw'uduti dutoya, kari mu ibara ry'umuhondo, ubururu, icyatsi, umutuku ndetse n'undi muhondo ujya kuba umutuku. Gakoze inyenyeri y'amahembe atanu.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke harimo ishuri riteye irangi ry'umuhondo rikaba ririmo inzugi n'amadirisha biteye irangi ryumukara, hashushanyijeho amasaha y'urushinge ndetse mu muryango hakaba ahahagazemo umwarimu w'umukobwa.

Igikinisho kimeze nk'igikeri, kirasa n'icyatsi gifite amenyo, aho imbere hashushanyijeho imbunda y'igikinisho isa n'aho iri kurasa icyo gikeri, iruhande hari utuntu tubiri dushushanyije, tugaragaza umuziki.

Ni ahantu hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka, hakaba hari umuhungu n'umukobwa bari kugenda mu muhanda bakaba bari kwerekeza ku isomero.

Agatabo keza, gashushanyijeho, umugore wambaye ikanzu ndende, y'ubururu undi akaba yambaye ikanzu y'umweru. Bahagaze hakuno y'umugezi, aho hakurya y'umugezi hagaze umugabo, usa naho ari gushaka kubambutsa.

Ku kigo cy'amashuri y'inshuke. Ishuri rimwe riteyeho irangi ry'umuhondo, hashushanyijeho umwana muto w'umukobwa wambaye iniforume y'ubururu. Hakaba hari undi mwana w'umuhungu uri kuhatambuka yambaye umupira w'imbeho ndetse n'ingofero.

Ni igipapuro cyanditseho indirimbo ku manota, akaba ari indirimbo irimo ururimi rw'ikinyarwanda, hejuru ikaba yitwa ngo nkunda gusiga irangi, ni indirimbo yigishwa abana biga amashuri y'inshuke.

Igikapu gitoya, kiri mu ibara ry'umuhondo, n'umutuku wiganje. Kikaba gishushanyijeho, ibinyugunyugu bibiri, kimwe cy'umutuku ikindi cy'umukara. Akaba ari igikapu umwana wiga mu mashuri y'inshuke yitwazamo amakayi agiye ku ishuri.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo. Ikaba iriho igikuta gishushanyijeho ishuka ndetse n'umweyo. Yanditseho amagambo y'Icyongereza ari mu ibara ry'umukara, akaba ari inzu imwe, mu nyubako zo ku kigo cy'amashuri y'inshuke.

Ni mu kigo cy'amashuri kiriho amashuri ashakaje amabati y'ubururu arimo inzugi z'icyatsi, hubatse ubukarabiro bunini cyane buriho amapave ariko akaba nta muntu n'umwe waje kuhakarabira.

Igipapuro gishushanyijeho imitwe ibiri y'abana, hakaba hashushanyijeho n'undi mugore, harimo igipangu gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibimera, hariho amagambo y'icyongereza asobanura ngo umuganura n'iki.

Abayobozi b'ikigo cy'amashuri abanza harimo umugore umwe ndetse n'abagabo batatu, abandi akaba ari abagabo batatu bakoraga mu bijyanye n'ubuhinzi bw'icyo kigo, aho bari kwifotoza kugira ngo babike ifoto y'urwibutso.

Hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi bw' amashuri abanza aho abarimu ba'bigisha abanyeshuri ibinyampande, ndetse n'amabara bisa n'umutuku, ubururu, icyatsi, umuhondo, ndetse n'andi mabara atandukanye.

Abana bane biga mu amashuri abanza. Baricaye bakaba bari kurya bose buri wese afite isahani ye ndetse akaba afite n'agakombe karimo amata, aho iruhande rwabo hegetse imbago bisa naho umwe muri bo afite ubumuga bwo kugenda.

Inzu nini cyane. Ni inzu y'ishuri, ikaba ari ishuri ribanza. Imbere hari ibaraza risakariye hakaba hari gutambukaho abantu batatu, abanyeshuri babiri ndetse n'umwarimu umwe. Ishuri rimwe rirafunguye aho nta banyeshuri baririmo.

Icyapa kigaragaza amashuri abanza ya Rukomo. Giherereye mu karere ka Nyagatare, hakaba hariho ikirangantego cy'u Rwanda, hakaba hariho n'intego nyamukuru y'icyo kigo.

Mu mashuri abanza bakenera ibitabo bitandukanye, twavuga nk'ibitabo bikunze kuba bishushanyijeho umwana uri kuragira intare, ibitabo bishushanyijeho inyoni ndetse n'ibindi biba bishushanyijeho amashyamba.

Ni ikigo cy'amashuri abanza, kiriho amashuri menshi amwe akaba ari amashuri y'igorofa ageretse rimwe, yubakishijwe amatafari mato y'impunyu, akaba asakaje amabati y'ubururu ndetse arimo inzugi n'amadirisha biteye irangi ry'ubururu.

Inzu nziza cyane y'igishushanyo. Ifite amabati y'umweru ,ikaba ifunikishije imbaho z'umutuku. Imbere hari ubusitani aho hahagaze impyisi iri gutembera.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abiga mu mashuri abanza. Harimo imashini iteranya ndetse ikanakora imibare, irati, amakayi, imakasi, amakaramu ndetse n'ibindi byinshi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza harimo imakasi, koroshi, urudodo, metero ndetse n'ibindi bitandukanye byose byifashishwa mu kwigisha abana.

Ni mu ishuri ryigamo abana bato biga mu mashuri abanza. Umwana umwe yahagurutse, aho afite igitabo ari gusomera bagenzi be ndetse mwarimu akaba ahagaze imbere kugira ngo yumve ko umwana asoma neza.

Ibikoresho bitandukanye, birimo ikifashishwa mu gusohora impapuro, hakaba harimo amagoma, hakaba hari igitera garafeza, amakayi ndetse n'amakaramu, byose byifashishwa mu mashuri abanza.

Inyubako nziza cyane ikaba, ari inyubako y'ishuri aho higiramo abana biga amashuri abanza, harimo ameza udutebe twiza hakaba harimo n'utubati turimo'ibikoresho bitandukanye nk'ibitabo ndetse n'amakaramu.

Ni mu ishuri ribanza, aho harimo abanyeshuri umunani bakiri batoya, bose bambaye impuzankano, harimo intebe enye ubwo intebe imwe yicayeho abantu babiri, imbere yabo ku kibaho handitse imibare mirongo ine ndetse na makumyabiri.

Ku ishuri ribanza, hashushanyijeho umwana muto wifashe mumanyanyinya, akaba yambaye inkweto za tufu, iruhande hari amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse na ari mu ibara rya Violette asobanura ngo umwana uhora yisubiramo.

Ku marembo y'ikigo cy'amashuri habaye ikibazo cy'umwuzure aho ishuri rimwe ryahirimye rikangirika bikomeye cyane ariko andi mashuri ari ku ruhande akaba ntacyo yabaye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abana, bari mu mashuri abanza amazina y'ibikoresho by'umuco nyarwanda. Twavuga nk'inyajoro, isuka, majagu, igitiyo igitebo ndetse n'ibindi.

Abana bato batanu ntabwo bambaye impuzankano, bakaba biga mu kigo cy'amashuri abanza, bose barapfukamye imbere ku kirago, aho bari kwandika ku kibaho, buri wese ari kwandika ibyo mwarimu yamubwiye.

Umugabo w'umwarimu wambaye amarinete ndetse n'ikoti, akaba ari guha ibizamini abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Abanyeshuri baricaye bambaye impuzankano, aho bageze mu gihe k'ibizamini, buri wese akaba yicaye ku ntebe ye.

Ikigo cy'amashuri abanza kirimo etajeri ikozwe mu giti, ikaba nayo iteretsemo ibikoresho bitandukanye byiganjemo amakayi n'amakaramu, byose byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri bakora ku icyo kigo.

Inzu nziza cyane, uruhande rumwe, igaragaza ko yubakishije amatafari mato y'impunyu, urundi ruhande, ikaba iteye irangi ry'umweru, mu nzu harimo akabati, karimo ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho, bikoreshwa mu mashuri.

Ibishushanyo bibiri. Ni inyoni ntoya akaba ari isandi indi akaba ari intashya. Ihagaze ku biti bibiri, hejuru hakaba hariho amagambo y'ikinyarwanda avuga ngo isandi n'intashya, amashuri y'inshuke.

Mu kigo cy'amashuri abanza, hari amashuri menshi cyane meza, hakaba hari inzira y'abagenzi. Hari ubusitani buteyemo umucaca n'indabo ngufi, hakaba hari ibendera ry'u Rwanda, hirya hakaba hari n'igiti kinini cyane cy'inganzamarombo kizana umwuka mwiza muri iki kigo.

Ibimenyetso bitandukanye. Twavuga ikimenyetso cy'ikaro ry'umutuku, umweru ndetse n'iry'icyatsi, hakaba hari utundi tudomo tw'ubururu ndetse n'icyatsi n'utundi dutandukanye twose twifashisha mu gusobanurira abana biga mu mashuri abanza ibinyampande mu kinyarwanda.

Ku kigo cy'amashuri abanza, hari ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri, akaba ari mu nzu nziza cyane, iteye irangi ry'umuhondo, uruhande rumwe, ahandi ikaba iteye irangi ry'ubururu ndetse n'icyatsi.

Akantu k'icyuma akenshi na kenshi kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Karimo: amarati, amakaramu, amagoma ndetse n'utuntu twifashishwa mu gusiba aho igoma ryanditse.

Ni abantu barindwi bose ni abagabo bakaba bari kwifotoreza impande y'ishuri ryo mu kigo kimwe cy'amashuri yisumbuye, imbere hari umugore uri kubasobanurira uburyo iryo shuri rikoramo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri ryubakishije amatafari y'imyunyu, buri umwe yicaye ku ntebe ye, aho bari gukora ikizamini cy'amashuri yisumbuye, buri muntu akaba yitaruye mugenzi we.

Abakirisitu batandukanye biganjemo abanyeshuri ndetse n'abarezi baje mu rusengero. Aho imbere yabo hari umuvugabutumwa uri ku bigisha ijambo ry'Imana ndetse anabasobanurira uburyo bwiza bwo gukorera imana.

Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye, baricaye hanze mu ntebe abo zitonetse mu busitani, imbere yabo hari umusore muto wambaye karuvati, akaba afite mikoro ari kubasobanurira uburyo bwiza bwo kwitwararika ndetse n'uburyo bwo kwiyitaho.

Abakobwa bakiri bato ariko beza, bose bambaye impuzankano zitandukanye bakaba biga ku bigo bya segonderi bitandukanye, bose bari kwifotoza nyuma y'uko bari baje gusurana ku ishuri.

Icyapa bigaragara ko gishaje, kiriho ikirangantego cy'u Rwanda. Kikaba ari icyapa kigaragaza ko aho hari ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Rukomo, akaba ari ikigo giherereye mu karere ka Nyagatare.

Abana benshi cyane biga mu mashuri yisumbuye, bicaye hasi mu mucaca bakaba bari kuganirizwa n'umuyobozi wabo ku buryo bwiza bwo kuyitaho kugira ngo babashe gutsinda, hakaba haje n'abapolisi babiri baje kubasura.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, kiriho igipangu cyubakishije amatafari ahiye y'impunyu, kikaba giteye irangi ry'umuhondo hariho amarembo manini cyane ari mu ibara ry'icyatsi yanditseho ngo ikaze ku kigo cy'amashuri yisumbuye cya Rukomo.

Urugi rwiza cyane, ruri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru rukaba rukoze mu cyuma, rufunze igipangu kinini cyane kiriho amakaro, ku rwo rugi hakaba handitseho ngo ikaze ku kigo cy'amashuri y'ubumenyingiro cya Cyondo.

Mu gipangu kimwe cyo ku ishuri harimo igipine kiriho irangi ry'ubururu, umuhondo ndetse ndetse n'icyatsi, hakaba hari n'ikindi cyuma abantu bifashisha bari kumvu umunyenga na cyo kikaba giteye amarange asa neza, bikaba biri mu gipangu cyubakishije amatafari y'impunyu.

Ni ikijyo kimeze nkaho ari cya kindi babikamo indabo, giteretse hasi ku ishashi aha mu nzu, mbere yuko bagifata ngo bakijyane hanze bashyiremo indabo.

Umukobwa wambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'ikote ry'ishashi, yicaye mu ishuri afite mudasobwa ye akaba ari kuyirebamo afite ikaye ndetse n'ikaramu ku ruhande, hirya ye hari undi umeze gutyo ndetse n'imbere hari andi meza ariho mudasobwa.

Igitenge kirimo amabara atandukanye. Kikaba ari gitenge kigaragaza ubudasa, aho cyakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza, bafatanyije n'abiga mu mashuri y'ubumenyingiro.

Abantu benshi cyane bahuriye mu nzu imwe bisa naho bose bakora muri kaminuza cyangwa se mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, bari kuganira ku buryo bwo guteza imbere amasomo aho bafite abashyitsi babiri bakuru b'imena.

Abantu b'urubyiruko basa naho bakiri abanyeshuri muri kaminuza cyangwa se amashuri y'ubumenyi ngiro. Baricaye mu dutebe bakoze uruziga bakaba bari kuganira ku bijyanye n'amasomo yabo n'uburyo baziteza imbere nyuma y'amasomo.

Ni muri kaminuza aho hari ibibaho bibiri. Kimwe giteretse hasi mu gihe ikindi kiri ku gikuta. Imbere hari umuntu w'umunyeshuri waje kwiga, aho yarambuye ikayi ye ku kameza gato gahari.

Ikibumbano cyagaragazaga umutwe w'umuntu. Akaba ari ikibumbano cyakozwe n'abanyeshuri biga muri Kaminuza ndetse n'abandi biga mu mashuri y'ubumenyingiro, ariko bakaba bacyangirije bakimennye.

Ni inzu nziza cyane, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo murimi rw'Icyongereza. Ifite urugi rurerure cyane rw'ibirahuri ruteye irangi ry'icyatsi, akaba ari inyubako yubatse muri kaminuza.

Abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'amashuri y'ubumenyin ngiro, bahuriye hamwe bakaba bari kwifotoza, nyuma y'ukoreba bamaze gufata impamyabumenyi z'ibyiciro basoje.

Inyubako nziza cyane. Irimo inzugi zifite irangi ry'icyatsi ndetse n'ibirahuri byiza cyane. Hejuru hariho agapapuro kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ariko akaba ari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.